Icyapa kinini kigizwe n'ikiziga ndetse n'impande enye gishushanyijeho ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'umweru, kikaba cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'imibare y'igihumbi magana biri na mirongo itanu n'itanu.

Ishusho yamamaza ikaba ariho ikimenyetso cy'izina ry'isosiyete gitanga ubwishingizi, kikaba cyanditsweho amagambo ari mu rw'ikinyarwanda agira, ati:'' ubwishingizi bukugoboka mu bihe by'akaga'' impande y'aya magambo temberana.

Ishusho iri mu ibara ry'umweru yamamaza ubwishingizi, ikaba iriho umugabo n'umugore imbere yabo hari abana babiri, munsi hariho amagambo isi ntisakaye ntawamenye igihe inkuru yacu y'ubuzima yarangirira, twasigahe abacu abo dukunda n'imiryango yacu.

Ishusho iri kugaragaraho umugabo utereye umwana we hejuru, impande y'umugore we ndetse ku ruhande hariho akagare gatwarwaho umwana ukiri muto, iburyo handitse amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza agira ati;" Rinda umuryango wawe ugura ubwishingizi bw'ubuzima."

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu, bamwe b'abagore babiri bafashe aka karita kanini, size ibara ry'umweru, kanditseho izina ry'isosiyete ya banki, ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, hejuru yayo handitse amagambo arimo Ikinyarwanda agira ati turi kumwe ni ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima, bugoboka ku muryango wawe.

Icyapa cy'impande enye gisize ibara ry'umweru ndetse n'icunga, gishushanyijeho umugabo ndetse n'umwana uhetse igikapu cye, bari gusuhuzanya impande hariyo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikimenyetso cy'isosiyete.

Ishusho iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ikaba yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda agira ati "impanuka ntiteguza gura turi kumwe ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima" ndetse n'imibare ukanda muri telefoni kugira ngo ubashe kubona iyo serivisi.

Icyapa cyateretswe hejuru y'umuhanda gifashwe n'ibyuma, kikaba kigizwe n'impande enye gisize ibara ry'ubururu cyandikwa n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'izina ry'isosiyete impande hakaba hariho gariyamosha.

Ishusho iriho umugabo ndetse n'umugore bafashe amagare, rimwe risize ibara ry'umutuku ndetse n'irindi muhondo bari kuyagendesha impande y'inkombe y'inyanja ndetse ishusho ikaba iriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza agira ati mu gihe cyawe cy'izabukuru tekena.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ndetse n'andi ari ku ruhande y'umukara ndetse n'umweru impande yayo hakaba hariyo kaburimbo yo kugenrwamo n'imodoka, yashyizweho ibimenyetso by'amasosiyete atandukanye inyuma ha akaba hari abantu benshi bari kuyitegereza.

Ekara ya telefone iri kugaragaraho isaha ikaba ari saa saba n'iminota mirongo itatu n'itanu ndetse n'ibara ry'umuhondo, icyatsi n'umweru bikaba byanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse na nimero za telefoni.

Ahantu hacururizwa ibinyobwa bisembuye ari mu ijoro. Hakaba hari kwaka mu ibara ry'ubururu. Imbere hakaba hari abagabo batatu, babiri bahagaze ndetse n'umwe wicaye. Mo imbere hakaba harimo televiziyo.

Ameza manini ateretseho ibirahure bibiri birimo inzoga n'icupa kuruhande ry'icyatsi, hakaba hariho urupapuro hasi ndetse n'agakarito k'itabi, hakaba hariho ibindi bintu byinshi kuri ayo meza.

Icyapa kiri mw'ibara ritukura cyanditseho karosi joyinti, hakaba hariho abantu babiri bari kwamamaza ikinyobwa cya sikoro maritini iri mw'icupa ry'icyatsi, kikaba kiri ku muhanda.

Umuntu wicaye utagaragara neza, aho hafite ikirahure cyuzuye inzoga kikaba giteriretse ahantu kuri kontwari, iruhande hakaba hari agatara kari kwaka umuhondo, hirya hakaba hari abantu babiri, umwe wambaye umukara undi akaba yambaye umutuku.

Iyi ni ifoto igaragaza ahantu muri resitora cyangwa se akabari, hejuru yaho hakaba hari televiziyo, hasi hakaba hari ameza ndetse n'intebe, aho hari abantu hakaba hari umusaza wambaye ikoti ry'umukara.

Akabati gatondekanyijemo ibinyobwa byinshi, hakaba hari itara riri kwaka ubururu. Hejuru y'ako kabati hakaba hariho televiziyo iri kuberamo umupira, n'inyuma yaho hakaba hari akabati gasa icyatsi.

Ibiganza by'umukobwa birimo menu iri mw'ibara ry'umukara imbere ye hakaba hari ibirahure birebire ndetse n'ibigufi kumeza yaho hakaba hateretseho amafoke hirya hakaba hariho ama seriviyete.

Aha ni ahantu hagaragara nk'aho hasi hubakishijwe amakaro; imbere hakaba hari ahantu bacururiza ibinyobwa bisembuye, kuri kontwari hakaba hari inkingi y'umukara, iruhande rw'aho hakaba hari intebe y'umukara.

Ahantu hanyorebwa ibinyobwa bisembuye hakaba ari intebe ziri mw'ibara ry'umutuku ndetse n'ikigina hasi hakaba hari amakaro ari mw'ibara ry'umweru n'umukara iruhande hejuru hakaba hari sikirini iri kwerekanirwaho umupira.

Kontwari ikoze mu ibuye ry'ikaro, iteretseho akadobo kari mu ibara ry'umuhondo ka sikolo mo imbere harimo amacupa yayo ane kandi hejuru hari televiziyo iri kwerekanirwaho filimi no kuruhande hari ikirahure kirimo inzoga.

Abantu benshi bari ahantu hakorerwa ibinyobwa bisembuye. Imbere hakaba hari umugabo wambaye ikote ndetse n'ingofero y'umukara. Akaba ari akabati karekare karimo amatara.

Iyi ni ifoto igaragaza ahantu mu kabari b'imbere muri contiri, hakaba harimo abasore babiri bambaye utujere tw'kigina, inyuma yaho akaba ari ibinyobwa bisembuye.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara, umupira n'ipantaro n'ingofero yirabura akaba arigusukirwa kukinyobwa gisembuye n'umuntu uhagaze nawe wambaye imyenda yirabura.

Iyi ni ifoto iigaragaza akabati aho hapanzemoamacupa maremare, y'ibinyobwa bisindisha iruhande rwaho hakaba hari tereviziyo, igaragara nk'aho irimo umupira w'amaguru.

Abantu babiri bose akaba ari abagore bicaye ku ntebe ndende, aho hacururizwa ibinyobwa bisembuye, hejuru hakaba ari sikirini nini iri kwerekanirwamo umupira, hejuru hakaba hari agatara kari kwaka mu ibara ry'umuhondo.

Umuhungu ufite telefone ntoya mu kiganza cye, imbere ye akaba ari gusoma urupapuro ruteretse, iruhande rwe hakaba hari akabati gatondekanyijemo amacupa maremare n'amagufi y'ibinyobwa bisembuye.

Ahantu bacururiza ibinyobwa bisembuye, hakaba hari ameza ateretseho isakoshi y'umukara, imbere hakaba hari umugore wicaye; inyuma hakaba hari bingaro, irimo umugabo wambaye ingofero y'umukara n'ishati.

Abantu benshi bicaye harimo n'umuhungu uhangaze yambaye ishati, hakaba hariho tente ebyiri ziri mu ibara ry'icyatsi, kandi hakaba handitseho ijambo henikeni iruhande hakaba hariho akanyenyeri k'umutuku.

Amacupa atatatu arimo ibinyobwa bisembuye ari mu ibara ry'icyatsi irya mbere ni irya mitsingi, irya kabira ni sikolo irya gatatu ni amusiteri zose zikaba zipfundikiye ziteretse ku meza y'icyatsi inyuma yaho hari umugabo wambaye umupira w'umutuku.

Icyapa cya henikeni hejuru yaho hari igikombe cy'umupira, munsi yaho hari akabati gatondekanyijeho amacupa menshi, amaremare n'amagufiya amanini n'amatoya by'ibinyobwa bisembuye.

Abantu bane bicaye bari gusangira inzoga ndetse na fanta, hagati yabo hari ameza ya oranje ndetse n nayandi y'icyatsi, hakaba harimo umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru.

Aha ni ahantu mu kabari hacururizwa ibinyobwa bisembuye. Hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho henikeni. Iruhande rwaho hakaba hariho inyenyeri iri mu ibara ritukura. Munsi hakaba hari abantu benshi bicaye barikunywa.

Iyi ni ifoto igaragaza ahantu hari sekirini ebyiri, nini, imbere yaho hakaba hari ubutako bwaka, bukoreshejwe mu biti. Inyuma yaho hakaba hari umugabo babiri, bahagaze.

Ibinyobwa bisembuye biri mu macupa maremare n'amagufi amanini n'amatoya biri mu kabati. Imbere hakaba ari igitasi kinini kirimo inzoga ya amusiteli biya ikaba yuzuye hejuru hariho urufuro.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara babiri muri bo bambaye imipira yirabura, undi yambaye agashati kera, bose bari ahantu hacururizwa ibinyobwa bisembuye, hakaba ari mu ijoro. Hirya hari amafirigo abiri hejuru afite irange ry'icyatsi.

Abantu benshi bateraniye hamwe hari abahagaze ndetse n'abicaye. Harimo umukobwa uri guseka cyane wambaye agapira k'umukara iruhande rwe hakaba hari ameza ateretseho amacupa y'icyatsi.

Ahantu hatangirwa serivise zo gutanga ibiryo ku meza ariho kuto n'ifoke birambitse ku gatambaro k'umweru. Ameza akaba ariho umwenda utukura, hirya hakaba hari umugabo wambaye umukara.

Umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry'umukara ufite amacupa abiri maremare mu biganza bye ari gusuka inzoga mu ijaga mu imbere hakaba harimo indimu inyuma ye hakaba hari akabati k'umukara.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi, hakaba hariho ikinyobwa gisembuye cya henikeni, kiri gusukwa mu kirahuri kiri mu ibara ry'umutuku; hakaba ari ku muhanda, inyuma yaho hakaba hari amazu maremare.

Abantu benshi bicaye ndetse n'abandi babiri bahagaze; imbere yabo hari ameza ya mitsingi ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hakaba hateretseho ibinyobwa bisembuye biri mu icupa ry'icyatsi.

Ahantu hagenewe gusangirirwa cyangwa kunywebwa inzoga, hakaba hari intebe z'umukara ndetse n'ameza, hakaba hubakishijwe igikuta cy'amatafari, hariho umutako ndetse n'itara mu imbere hari firigo yanditseho skohol.

Iyi ni ifoto igaragaza abantu babiri: umugabo n'umugore, umugabo ari kwishyura ku ikarita hifashishijwe akamashini ka EBM, aho umugore afite inzara zigizwe na verine y'umutuku n'ikarita y'umugabo ikaba ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare yazinze n'ipanaro y'umutuku n'inkweto z'umukara zisa n'ikaziye imuri imbere hasi, imbere ye hakaba hari akuma kariho ikirahure cy'ameza.

Ahantu hacururizwa ibinyobwa bisembuye, iruhande hakaba hari firigo irimo amacupa maremare n'amagufi, amanini n'amatoya biri mu ibara ry'icyatsi, hejuru hakaba handitseho pirimusi, imbere yaho hakaba hari akavazi k'umukara n'umweru hakaba harimo n'indabo, iruhande hakaba hari ikirahuri kirimo inzoga.

Iduka ryubucuruzi ririmo abagore babiri bahagararanye, mo hagati yabo hakaba harimo akameza karekare, gafite ibara ry'ikigina ndetse n'ubururu, impande yabo hariho abagabo babiri bahagararanye, impande y'amashati asize ibara ry'ubururu, umukara, ndetse n'umweru.

Aba bagabo babiri bahagaze hejuru y'amatafari y'ikigina, bakaba bafashe agakarita gasize ibara ry'umweru kandiditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, imbere y'imodoka iparitse isize ibara ry'umukara.

Imodoka isize ibara ry'umukara, ikaba iparitse hejuru y'amatafari y'ikigina, ari impande y'inzu ifite inkuta z'umuhondo, ndetse n'inzugi zisize ibara ry'icyatsi, hejuru hashyizweho izina ry'isosiyete Akagera, imbere hakaba hari abantu bahagaze bafashe agakarita gasize ibara ry'umweru.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'ikamyo isize ibara ry'umweru, bakaba bafashe agakarita gasize ibara ry'umweru ndetse n'umutuku kanditseho izina ry'isosiyete akagera ricuruuruza ibijyanye n'ibinyabiziga.

Icyumba cy'inzu kirimo abagabo babiri bahagararanye n'umugore, bose bafashe agakarita gasize ibara ry'umweru ndetse kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza gashushanyijeho imodoka z'ubwoko butandukanye zishobora kugurishwa n'iyo sosiyete z'amabara atandukanye.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'ibyuma, cyatewemo irangi ry'umweru ndetse n'itara riri gutanga urumuri, rikaba rihagazemo abagabo babiri, umwe wambaye ingofero ndetse n'umupira w'umukara, n'undi wambaye itaburiya y'umweru, bari impande y'imodoka idafite amatara inyuma, ikaba isize ibara ry'ikigina.

Imodoka isize ibara ry'ikigina cyijimye, iri kugendera hafi y'inzu y'amagorofa menshi, igizwe n'inkuta zashyizweho amakaro y'umweru ndetse n'ibirahuri. Hejuru yaho hakaba handitseho amagambo ari mururimi rw'icyongereza ndetse na numero za telefoni.

Igiceri cy'uruziga gisize ibara ry'umuhondo, gishushanyijeho insina y'igitoki ndetse n'amagambo ari mu rurimi ry'igifaransa, agaragaza ko cyakorewe mu Rwanda, mu gihumbi kimwe maganacyenda na mirongo irindwi na karindwi.

Inote y'amafaranga y'ibara ry'ubururu butijimye yanditse amagambo y'Ikinyarwanda agira ati banki nkuru y'u Rwanda amafaranga ibihumbi bibiri, ikaba ishushanyijeho agaseke gasize ibara ry'umuhondo, ikiyaga kizengurutswe n'imisozi.

Mudasobwa yateretse ku kuko ameza isize ibara ry'umukara, ikaba iriho ishusho y'ibyatsi ndetse n'urutare ruri hafi y'inyanja, impande hariho ikirahure, inyuma hariho umugabo ufite ikaramu ari kwandika ku gapapuro.

Inote y'amafaranga y'u Rwanda, ikaba ishushanyijeho ijana, ndetse n'umugore uhetse umwana we, igitenge imbere ye akaba hariho ishyamba ry'inzintane rigizwe n'ibyatsi, ndetse hejuru yabo akaba hariho amagambo Banki Nasiyonali y'u Rwanda.

Umugabo uhagararanye n'abana babiri, akaba afite agafuka mu ntoki ze k'ikigina, imbere ye hari umucuruzi ufite telefone mu ntoki ze, ahagaze imbere y'akameza gasize ibara ry'ubururu ndetse impande akaba ari amacupa y'amazi ndetse n'ikigega kibikamo amata.

Icyumba k'inzu kigizwe n'ibirahuri byashyizweho ibyuma bisize ibara ry'icyatsi, ndetse n'inkuta z'umuhondo ziri kumwe n'amakaro asize ibara ry'umweru y'impande enye, ndetse n'ikigega kinini gisize ibara ry'ikigina kibikwamo amata yo kunywa.

iduka rigizwe n'imiryango ibiri y'ibyuma yafunguwe, isize ibara ry'ubururu, mu imbere harimo akameza gasize ibara ry'umweru, kanditseho amagambo agira ati ni amata meza, gashushanyijeho umukobwa ufite agakombe mu ntoki uri kunywa amata.

Agaseke kasize ibara ry'ikigina kariho udutambaro two kwihanaanguza tw'umweru twatetswe mu ishashi, ndetse byose bikaba biri hejuru y'ameza akozwe mu mbaho ku ruhande hariyo amakaro y'impande enye asize ibara ry'umweru.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iri muri kaburimbo iri kugenda inyuma muri iyo modoka harimo umugabo wambaye ishati y'ubururu, hepfo y'iyo modoka hari inzira y'abanyamaguru ndetse hari abahungu batatu bari kugenda, hepfo y'iyo modoka hari ahantu harunze imifuka y'imihondo, iruhande rwo hirya hari urukuta rwubakishijwe amabuye.

Inzu igizwe n'inkuta zisize ibara ry'ubururu ndetse n'amatafari atukura harimo akabati gakozwe mu mbaho kashyizweho ishashi, ishushanyijeho utujerekani dusize ibara ry'umweru imbere hari akameza ndetse n'intebe yo kwicaraho.

Imeza isize ibara ry'umukara yicayeho n'abantu babiri ndetse imbere yabo akaba hari amasahani, udutambaro two kwihanaguza ndetse n'igikombe cy'ikirahure cyateretswemo ifu.

Inzu igizwe no hasi ndetse n'inkuta y'amakaro, ikaba ateretsweho ingunguru z'ibyuma by'ikigina birimo amata menshi, bikaba biri impande y'utujerekani dusize ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru dupfundikiye.

Indobo ebyiri imwe irimo amandazi indi ikaba irimo keke, zose zikaba zifite imipfundikizo igaramye, imbere yaho hakaba hari umuhanda wa kaburimbo hari ijoro.

Umugabo uhagaze ndetse n'umukobwa wicaye wambaye agakote kari mu ibara ry'ubururu, umugabo uri gutanga amafaranga ayashira ku meza inyuma y'umukobwa hakaba hari akabati karimo amaji menshi atondekanyije.

Indobo iteretse ku meza ipfunduye umupfundikizo wayo uri hirya, mo imbere harimo amandazi abiri ndetse n'akantu bifaisha barura ayomanandaz,i akaba yashyizemo iruhande rw'aho hari uduce twayo

Inebe y'umweru akabati kiriho igishushanyo cy'ubuvido butatu bwera, bw'amata iruhande hakaba hari intebe iri mu ibara ry'umukara ndetse n'ameza yera. Hejuru hakaba hari amjerekani yera akaba yanditseho nyanya indasitiri limitedi.

Iyi ni ifoto igaragaza ahantu hari ibicupa bine bya Gibu bitarimo amazi ndetse n'ibindi bibiri hasi, bikaba bitondekanyije ari bitatu bitatu bikaba bifungiranye mu kantu k'ibyuma gafite ibara ry'ubururu n'ingufuri ebyiri.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku akaba yateretse igikapu ku meza y'icyuma iruhande rwaho hakaba hateretse akabido kari mu ibara ryera inyuma yaho hakaba haparitse igare, imbere yaho hakaba hari icyuma gitunganyirizwamo amata. Iruhande rwaho hakaba hari icyapa cyanditseho ibintu byinshi.

Amajerekani menshi atondekanyije atatu ahagaze ndetse nandi arihirya, iruhande hari inzu y'amatafari ifite umuryango w'ubururu, iruhande hakaba hari firigo irimo itasi ikaba ifite ibara ryera.

Umugabo wambaye agakoti k'ibara ry'ikigina ndetse n'ipantaro y'ubururu imbere ye hakaba hari akabati kari mu ibara ryera, karimo utubido ndetse n'amaji menshi, amabiswi hejuru, ubunyobwa, ndetse n'imigati yawurute hejuru.

Abantu batatu, umukobwa umwe wambaye agapira ndetse n'ipantaro y'umukara n'undi mwana mutoya uri iruhande n'umuhungu umwe wambaye isengeri n'ipantaro y'umukara n'inkweto zitukura, akaba afite agacupa ka fanta, bari ahantu hacururizwa amata ya Mukamira.

Akabati kari mw'ibara ry'umukara gatondekanyijemo utubido twinshi turi mw'ibara ry'umweru, iruhande rwaho hakaba hari igikuta cyubakishije amakaro, hasi akaba ari sima.

Amakaro ari mu ibara ry'umweru, yamenetseho amazi, imbere hakaba hari umuhanda w'igitaka uparitsemo moto, ndetse n'igare. Hakaba hari abantu bari gutambuka, hejuru hakaba hari igicuba ndetse n'akabido kari mu ibara ry'umweru.

Umukobwa wambaye akagofero ndetse n'ikanzu iri mu ibara ry'ubururu irimo utuziga tw'umweru, imbere hakaba hateretse akabido kari mu ibara ry'umuhondo n'amateremusi ane.

Umukobwa n'umwana mutoya umukuru yamabaye ishati irimo umukara n'icyatsi. Umukobwa mutoya akaba yambaye furari mu ijosi. Inyuma ye hakaba hari umugabo muremure uhagaze areba inyuma.

Udutereyi turi mu ibara ry'icyatsi dutondekanyije, turimo amagi. Iruhande hari umugabo wambaye isarubeti iri mu ibara ry'umuhondo, yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Imbere ye hakaba ari ahantu hacururizwa amagi.

Ameza y'umweru ateretseho isahane yera, iriho keke ndetse n'irindazi ryariwe ryenda gushira, hakaba hariho ifoke ndetse n'ikiyiko, iruhande rwaho akaba ari umugabo ufite igikombe cy'umweru, kirimo amata.

Iyi ni ifoto igaragaza abantu bane; abagabo batatu ndetse n'umugore umwe. Abagabo babiri bakaba bateruye igicuba, bari gusuka amata aho yabugenewe mu kintu cy'icyuma.

Uyu ni umukobwa mutoya uri kunywa yahurute ikinyobwa cya Masaka, akaba ari umuntu uri kumunywesha wisize verine y'umweru n'ubururu, uwo mukobwa akaba afatishije ibiganza byombi.

Indobo ebyiri, zirimo keke ndetse n'amandazi, hejuru hakaba hariho akuma kifashishwa kwarura ibyo biribwa, hanze hakaba hari umuhanda wa kaburimbo hakaba ari mwijoro kuruhande hakaba hari urugi rwibara ry'ubururu.

Igikombe k'ikirahure cyuzuyemo amata ateretse ku meza y'umweru iruhanda hakaba hari isahani y'umweru itariho ikintu imbere yaho hakaba hari akabati gakoreshejwe imbaho.

Imigati myinshi iri mu bwoko bwa penkupe itantu ikaba yubitse iyindi myinshi ikaba ihagaze. Hakaba ari ku ruhande ushunnyeho inyuma yaho hakaba hari agatambaro bikaba biteretse ahantu ku rubaho.

Icyuma kinini gikorerwamo amata y'inshyushyu ya Nyanza meke indasitiri limitedi, hejuru hakaba hari akantu gateretsemo seriviyete ndetse n'iruhande rw'aho hakaba hari intebe iticayeho umuntu iri mu ibara ry'umukara.

Ahantu hacururizwa amata hakaba hari icyuma gishushanyijeho Inyange miriki zone. Inyuma hakaba hari akabati karimo amaji, n'amazi n'amata munsi hakaba hari n'ibikarito. Hakaba hubakishijwe amakaro y'umweru.

Umugore uri gutambuka wambaye agakote k' umukara iruhande rwe hari icyuma gitunganya amata kinini kiri mu ibara ry' ubururu, hakaba handitseho "Nyanza milk industry limited". Inyuma ye hakaba hari ameza yegamye ku gikuta gisa ubururu hejuri kuri purafo hakaba hasa umweru.

Ububido butandatu buteretse ahantu kumakaro buri mu ibara ry'umweru, akandi kamwe kakaba kari mu ibara ry'umuhondo n'umufundikizo w'umutuku, iruhande hakaba hari igicuba cy'icyuma.

Icyuma kibikwamo amata y'inshyushyu ya Nyanza miriki indasitiri. Inyuma yaho hakaba ari igikuta cyubakishijwe amatafari. iruhande hakaba hari urwapa rushushanyijeho ububido burimo amata.

Umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi n'agakote k'ubururu, imbere hari umusaza wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, umukobwa afite amafaranga mu ntoki, inyuma yaho hari akabati karimo ibinyobwa by'amaji.

Icyuma kinini kirekire gifite ibara ry'ubururu kirimo amata ya mukamira dayari indasitiri, iruhande rw'aho hakaba hari firigo iri mu ibara ry'umutuku n'ikiragure, mu imbere hakaba harimo ibinyobwa by'amaji.

Iyi ni ifoto igaragaza ahantu mu cyumba hubakishijwe amakaro, hakaba ari ikintu cy'icyuma cyanditseho deta, imbere yaho hakaba hari ikintu cy'idirishya cy'umukara, iruhande rwaho hakaba hari idirishya.

Ahantu hacururizwa amata y'inshyushyu, hari ibyuma bitatu kimwe kinini, ikindi kiringaniye, inyuma yaho hakaba hari igikuta kiri mu ibara ry'ubururu, hasi hakaba hari amakaro.

Ibicuba byinshi byuzuyemo amata ndetse n'ibindi bituzuyemo; iruhande rwaho hakaba hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara; inyuma hakaba hari udutebe twubakishijwe imbaho.

Ibiganza birimo agacupa ka mukamira dayari limitedi munsi yaho hakaba hari amakaziye abiri arimo fanta, agacupa kakaba kariho ibara ry'umukara ndetse gashushanyijeho imyeru.

Umugore wambaye agakote k'umukara n'ipantaro y'ubururu n'inkweto zirabura inyuma ye hakaba hari firigo iri mu ibara ryera ndetse n'akabati k'umweru hariho indobo eshatu iyambere irimo amandazi, iyakabiri imigati, iyakabiri keke.

Ameza y'umweru ataretseho utubido tureture n'utugufiya turimo amata. Hakaba hagati hateretseho yawurute ziri mu ibara ry'umweru ndetse na pinki, inyuma yaho hari umugore ndetse n'inyuma ye hari ibiti.

Iduka ricururizwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, amata y'inyange, biri mu ibara ry'ubururu hashushanyijeho inuma ihagaze ahantu h'icyatsi, imbere hari akabati karimo amaji ndetse n'amata munsi hakaba harimo amandazi.

Iyi ni ifoto igaragaza ibicupa bikoze mu cyuma, bipfundikiye, biteretse ahantu ari byinshi, ahantu biteretse hakaba hasa umweru, ku makaro, bikaba byegereye igikuta.

Iyi ni firigo iri mu ibara ry'umweru, ku ruhande rwaho hakaba hariho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, akaba ari icya Mukamira dayari limitedi, hakaba handitseho amata ni ubuzima hakaba hariho igikombe kiri gusukwamo amata.

Iyi ni ifoto igaragaza abana babiri bicaye bari kunywa amata, hagati yabo hakaba hari ameza y'umweru hateretseho utujerekani tw'umweru, iruhande rwaho hakaba hari umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru.

Aha ni ahantu hacururizwa ibinyobwa by'amaji ndetse na yahurute. Imbere hakaba hari akabati kari mu ibara ry'umweru ndetse n'ikirahuri; imbere hakaba harimo ibinyobwa handitseho royo biri mu ibara ry'umutuku n'ubururu.

Ibinyobwa byinshi bya yahurute biri m'ubucupa bunini ndetse n'ubutoya hari ubuhagaze n'ubwubitse kubushashi bwaho hakaba handitseho masaka.

Abantu babiri, umuhungu wicaye wambaye agapira kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukobwa uhagaze wambaye agakote kari mu ibara ry'umukara ndetse n'akajipo kari mu ibara ry'umweru n'umukara.

Aka ni agacupa ka kilida gafite umupfundikizo uri mu ibara ry'umweru. Mo imbere hakaba harimo uduti twifashishwa ku meza, kakaba gateretse ku meza ari mu ibara ry'umweru, hakaba hari akazuba.

Iyi ni ifoto igaragaza udubido turindwi turi mu ibara ry'umweru turimo amata n'utundi dutoya turimo amata ya Mukamira na foromaje mu mashashi.

Umukobwa uhagaze ufite telefone ku gutwi uri kuyivugiraho, imbere ye hari akabati karimo amabiswi ndetse n'amandazi. Iruhande hari umugabo uri kuvoma amata ayashyira mu cyansi.

Inzu icururizwamo amata ya Inyange Milike Zone, hejuru hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru. Hakaba hateye irange ry'ubururu n'inzugi, hakaba hari ameza n'intebe hanze.

Iyi ni ifoto igaragaza abantu babiri, umuhungu n'umukobwa: umuhungu akaba atagaragara neza, imbere ye hakaba hateretse ijage yavuyemo amata, imbere ye hakaba hari umukobwa wambaye agapira k'umweru n'ipantaro ya pinki.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ya Nyanza Milk Industry Ltd. Akaba ari icyuma gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru hakaba hashushanyijeho n'inka, iruhande rwaho hakaba hari akabati k'ikirahure mu imbere hakaba harimo utubido twinshi turi mu ibara ry'umweru.

Firigo irimo ibara y'umutuku yanditseho kokakora. Mo imbere hakaba hariho ibinyobwa bidasembuye iruhande hakaba hariho umugore wicaye akaba afite itasi iruhande rwe , isa umweru.

Iyi ni ifoto igaragaza abagabo batatu, harimo ibikombe bitandatu by'amata y'ikivuguto, bose bakaba babiteruye, babikozanyijeho.

Isahani iri mu ibara ry'umweru ndetse n'amakeke menshi ariho. Iruhande rwaho hakaba hariho keke iteretse hasi, ku meza y'umukara itari ku isahani; Iruhande rwaho hakaba hari utuntu tubiri tw'umweru.

Umukobwa uri gusuka amata y'inshyushyu ayavana mu ijage ayashyira mu yindi. Akaba yambaye itaburiya y'umweru, imbere akaba ari idirishya riri mw'ibara ry'ubururu, inyuma yaho hakaba hari umugabo wambaye ingofero n'umupira.

Iyi ni ifoto igaragaza indobo ebyiri ziteretse ahantu ku kabati, indobo ya mbere ikaba irimo amandazi, indobo ya kabiri ikaba ipfundikiye, hejuru hakaba hariho akantu bifashisha bari gufata amandazi.

Iyi ni ifoto igaragaza amacupa atanu maremare y'uruganda rukora amazi hano mu gihugu cy'u Rwanda ya nile, iruhande rwaho hakaba hari igikarito na cyo cy'amazi ya nile, akaba ateretse imbere hari ibicupa bitatu birebire.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ndetse kugenderwamo n'ibinyabiziga byinshi, harimo ama moto ndetse n'amagare ahetse abagenzi. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi kandi byiza ndetse inyuma y'aho hakaba haparitswe n'ibindi binyabiziga binini harimo nk'amakamyo y'umweru.

Ishusho iriho ikiganza cy'umuntu gifashe terefone, kikaba kiri gufotora kode iri ku gakarita gasize ibara ry'icyatsi, kanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, inyuma yaho hariho umuntu uri gukora akazi wambaye agapira k'ikigina.

Ishusho iri mu ibara ry'umuhondo ikaba iriho umugore ufite telefone mu ntoki ze isize ibara ry'icyatsi ndetse akaba yambaye n'agapira k'umweru, impande ye hariho amagambo irekure ndetse n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza n'imibare ishobora gushyirwa muri telefoni.

Ishusho riri mu ibara ry'ikigina yanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'andi ari mu kinyarwanda agira ati banki nkuru y' u Rwanda , ndetse n'ishusho iri kugaragaza ibiciro by'amafaranga yo kuvunjishwa mu gihe yaguzwe n'igihe yagurishijwe.

Umugabo ukora mu isosiyete ivunjisha amafaranga, akaba ari kwandika imibare ku cyapa gisize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, kikaba gishushanyijeho amadarapo y'igihugu cy'Ubwongereza, Amerika ndetse na Tanzaniya.

Ibyapa bibiri byashyizwe ku nkuta, kimwe cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'izina ry'isosiyete ya banki, munsi hariho irindi zina ry'isosiyete ikora mu bucuruzi bw'amafaranga ndetse na nomero za terefoni.

Ibiro by'inzu bigizwe n'urukuta rusize ibara ry'umutuku n'umukara, imbere yaho hari intebe zo kwicaraho ndetse n'akameza bakiriraho abashyitsi, iruhande hariho ekara nini yo kugaragaza amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Imiryango y'inzu yafunguwe, ikaba ifite icyapa hejuru gisize ibara ry'icyatsi, cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'agace ikorerwamo ariko Remera, bakaba bakora ubucuruzi bwo kuvunjisha amafaranga.

Icyapa cy'impande enye kiri mu ibara ry'umweru, kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yandikishijwe mu ibara ry'umutuku ndetse kikaba kigaragaza uburyo amafaranga avunjishwamo bitewe n'igihugu, harimo Amerika, Ubwongereza, Uburayi, Kenya ndetse na Tanzaniya.

Ibyuma bikoze mu shusho ya mpande enye bikaba bisize ibara ry'umukara ndetse n'ikigina biri imbere ya ekara nini iriho amashusho ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara yandikishijwe amagambo ari mu rurimi rw'igishinwa.

Umuryango w'inzu usize ibara ry'icunga ukaba ugizwe n'ibyuma, hejuru yawo hariho icyapa gisize ibara ry'umweru cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse na numero za telefoni ushobora guhamagara, impande hari ishusho ishushanyije igaragaza isi.

Umuntu uri kwinjira mu iduka ry'igorofa rya mbere y'inzu, rikaba rigizwe n'inkuta zisize ibara ry'umukara ndetse n'icyapa cy'impande enye cyashyizweho gisize ibara ry'ubururu cy'impande enye, kikaba cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'amarido ari hafi y'urukuta ndetse n'idirishya imbere yaboho akaba ari igitanda kiriho amashashi ariho amashuka ndetse n'agateko kwicaraho gasize ibara ry'ikigina.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'inkuta ndetse n'amarido asize ibara ry'ikigina ari imbere y'intebe ziriho imisego, ikaba isize ibara ry'ubururu ndetse n'umukara yateretswe ku gatapi gasize ibara ry'icyatsi.

Icyumba cy'inzu kirimo utubati twinshi, dukozwe mu mbaho ndetse n'intebe zo kwicaraho, n'ameza, kakaba kagizwe n'agasima kagizwe n'ikibara ry'ikigina, impande hari inkuta zisize ibara ry'umuhondo.

Ruhurura ijyana amazi mabi iripande y'agahandada k'agataka kariho ibyatsi ndetse kariho imbaho nyinshi zakaswe ziri imbere y'urugo rufite urukuta rusize ibara ry'igitaka ndetse n'impande y'ibiti.

Irembo ry'inzu rigizwe n'amatafari y'ikigina ateretsweho ameza y'uruziga akozwe mu mbaho impande hari intebe ziyikikije enye zashyizweho udusego tw'umweru aho kwicarira ku ruhande hariho amakaro ari hafi y'urukuta rw'inzu rusize ibara ry'icyatsi ndetse n'imiryango isize ibara ry'ubururu.

Akameza gakoze mu mbaho kateretsweho ibumba ririmo indabo nyinshi z'ibara ry'umutuku umuhondo ndetse n'iroza, ku ruhande hari intebe isa umuhondo yashyizweho imisego ndetse n'amarido yageye umuryango ugizwe n'ikirahure.

Urukuta rw'amatafari atukura rwashyizweho icyapa gisize ry'umweru rishushanyijeho itabi impande, yaho hari ari akameza ndetse n'utube tw'uruziga dukozwe mu mbaho, impande hari intebe zo kwicaraho zashyizweho imisego isize ibara ry'ikigina.

Ibiganza bibiri by'umuntu kimwe cyafashe impapuro ndetse n'ikindi kikaba gifashe akuma kegeranye na mudasobwa isize ibara ry'umukara, ndetse yateretswe ku kameza gasize ibara ry'ikigina cyijimye, iruhande hariho inzugi n'umuryango zigizwe n'ibyuma ndetse hakaba hateretswemo n'ibirahure.

Ubwogero buri kugaragaraho urumuri rw'ubururu bukikijwe n'ibyuma impande hari inzu y'amagorofa menshi igizwe n'ibirahure ndetse n'inkuta zisize ibara ry'umuhondo ku ruhande hakaba hariho ibiti bifite amashami.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'inkuta z'umweru hashyizweho ibyapa bitandukanye by'amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru bikaba bishushanyijeho ibintu bitandukanye imbere yaho hari abantu bicaye imbere y'ameza y'umweru ndetse n'intebe z'umukara bazicayemo.

Inzu y'amagorofa menshi igizwe n'ibirahure ndetse n'inkuta zisize ibara ry'umuhondo, hateretsweho icyapa gisize ibara ry'umweru n'ubururu, ryo ni izina ry'iyi sosiyete y'ubwishingizi ndetse na nimero za telefoni zishobora guhamagarwa.

Icyumba k'inzu kirimo igisenge gisize ibara ry'umutuku, ndetse kikaba kiriho amatara atanga urumuri, ku rukuta rwayo hariho izina ry'isosiyete ikora nk'ubwishingizi riri impande y'ibyatsi byatetswe hafi yaho, ndetse n'amakaro asize ibara ry'umweru.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ishushanyijeho umugore ufite telefone mu ntoki ze, impande ye hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikirango cy'izina rya sosiyete ya banki ikorera mu Rwanda.

Ishusho iri mu ibara ry'umweru icyatsi ndetse nubururu bwijimye ishushanyijeho umugore wicaye imbere ya mudasobwa ye yateretswe ku ka meza gasize ibara ry'umweru ku ruhande, kariho amagambo agira ati konti wafungura utavuye aho uri.

Ishusho iri mu ibara ry'umweru ishushanyijeho inzu y'amagorofa abiri, igizwe n'inkuta z'umweru ndetse n'amadirishya iruhande hari umukobwa ufite telefone mu kuboko kw'iburyo bwe ifite igipfunyiko cy'ubururu.

Ishusho iri mu ibara ry'umukara, iroza, ubururu ndetse n'umweru ishushanyijeho umugore ufite ikarita ye mu ntoki ze ndetse n'udupfunyika dutatu twashyize mu kuboko kw'ibumoso bwe, imbere ye haari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ishusho iriho umukobwa uhagaze, akaba afite telefone mu kuboko kw'iburyo bwe, ari kwitaba umuntu, mu kuboko kw'ibumoso hariho impapuro, ndetse na tabureti nini, impande ye hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse n'izina rya banki.

Inzu y'amagorofa atanu, ikaba igizwe n'ibirahure byashyizweho icyapa cy'umuhondo, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda, inkutasi zisize irangi ry'ikigina ndetse n'umutuku wijimye, iruhande hakaba hari kunyurwaho n'imodoka z'amabara atandukanye.

Umugore wambaye agapira ndetse n'igitenge afashe akabase gasize ibara ry'ubururu gateretsemo inyanya nyinshi impande hakaba hariho insenda, udutunguru ndetse n'intoryi n'abantu bari kuzigura.

Umugore wicaye yitwikiriye ku mutwe afite icyuma mu ntoki mu kuboko kw'iburyo bwe, ari guhungura ifi ku bibabi byayo ndetse n'uruhu rwayo, hejuru yibasi isize ibara ry'umutuku iriho imirongo itambitse y'icyatsi.

Ishusho y'umuhondo iriho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, agira ati "ishyura na momo peyi." Hakaba handitseho n'izina ry'umucuruzi ndetse na nimero zishyirwa muri telefone kugira ngo umuntu abashe kwishyura amafaranga.

Ikiganza cy'umuntu gifite telefone mu ntoki ze z'amabuto kikaba kiri kugaragaraho ekara yanditseho amagambo arimo w'ikinyarwanda, agaragaza ko agiye kwishyura amafaranga ibihumbi bibiri magana atanu kuri Ja Mbosiko agashyiramo umubare w'ibanga.

Umugabo ufite telefone mu kuboko kw'iburyo, ari gufotora agashusho kari ku ikarita isize ibara ry'umuhondo, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse na MOMO, n'imibare ishyirwa muri telefoni kugira ngo umuntu abashe kwishyura.

Akapa kagizwe n'uruziga kaba gashushanyijeho ingofero, imigozi ,udukomo ndetse n'udusengeri bikaba bisize ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara wijimye wanditseho amagambo y'isosiyete ikora mu by'itumanaho mu Rwanda.

Umugabo ufite terefone mu kuboko kw'iburyo bwe ariko usa nk'uwihereza umugabo wundi uhagaze imbere y'igare rye arifashe mu kuboko kw'iburyo risize ibara ry'umuhondo inyuma ye hari icyapa cy'impande enye cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'imibare ishyirwa muri terefoni.

Umukozi ukora muri serivisi z'itumanaho, wicaye ku katebe munsi yumutaka usize ibara ry'umuhondo, ndetse akaba afite terefone mu kuboko kw'iburyo bwe ari kwihereza umukiriya we wambaye ishati npantaro, ahagaze kumuhanda wigitaka.

Akazu gasize ibara ry'umutuku kafunguye amadirishya kaba gashushanyijeho izina ry'isosiyete ikora mu by'itumanaho ndetse n'umukobwa uhagaze impande y'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ku ruhande hakaba hariho agahanda k'agataka ndetse n'amabuye kayifashe iyo nzu.

Akazu gasize ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse kakaba karimo umucuruzi ukora mu isosiyete ikora mu by'itumanaho akaba ari kwakira abakiriya bagera muri batanu impande y'urupangu rw'amatafari atukura.

Akazu k'icyuma gasize ibara ry'umuhondo, kakaba gashushanyijeho telefone ndetse kandiditsweho n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, impande yako hariho ibyapa biranga amerekezo, ndetse imbere yako hakaba hariho akayira k'abanyamaguru, kagizwe n'amatafari y'ikigina ndetse asize ibara ry'umweru n'umukara.

Iyi ni ifoto igatragaza utuzu tubiri twegeranye, akazu ka mbere kakaba gafite ibara ry'umutuku hakaba kanditseho eyaterimani, akazu ka kabiri kakaba ari aka emutiyeni kakaba kanditseho sendi andi risive mani hiya.

MTN bikaba byanditse ku kintu kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, iruhande rwaho hakaba hari akantu kari mu ibara ry'ubururu handitseho MoMo, inyuma yaho hakaba hari ibiti byinshi hejuru hakaba ari udutara tune turi mu ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bombi bambaye ibikapu mu mugongo by'umukara, umwe akaba yambaye ishati y'amaboko maremare, undi akaba yambaye iy'amaboko magufiya y'umweru bakaba bari mu mutaka wa emutiyeni.

Ahantu hari gutangirwa serivise z'ikigo k'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda emutiyene, bikaba biri mu ibara ry'ubururu n'umukara mo imbere hakaba harimo abagabo batatu bari gutanga izo serivise no hanze hari umugabo.

Iyi ni ifoto igaragaza akazu gafite ibara ry'umuhondo ka MTN, kuri ako kazu hejuru hakaba handitseho kanda akanyenyeri rimwe umunani kabiri urwego, ako kazu kakaba kari ahantu ku muhanda.

Ku muryango usa umweru ndetse n'umutuku ahagaragara nkahari gutangirwa serivise za aitel hashushanyije umukobwa uri kureba terefone , iruhande hakaba hari agasitande hariho umugabo uri gutanda serivise .

Abagabo babiri bakora mu kigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda MTN, bakaba bambaye imipira bombi y'umuhondo undi akaba yambaye amarinete, imbere yabo hari mashini, bakaba bari guha serivisi umugabo wambaye umupira w'umweru.

Aha ni ahantu hatangirwa serivisi za emutiyeni, kuruhande rw'ibumoso hakaba hari abagabo batatu, umwe akaba yambaye ishati itukura undi akaba yambaye umupira w'umweru. Mu ruhande rw'iburyo hakaba hari abagore babiri umwe akaba yambaye agapira k'umweru ndetse n'agapira k'umutuku, mo imbere muri ako kazu hakaba harimo umugore uri gutanga serivisi.

Umugabo wambaye ishati itukura akaba ahagaze imbere y'akazu kari mu ibara ry'umuhondo k'ikigo k'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda emutiyeni, imbere y'akazu hakaba harimo umugabo wambaye akajire.

Ahantu hatangirwa serivise za MTN. Hari umukobwa w'umukiriya, imbere hakaba hari abandi bantu bane bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo. Ni ahantu hari mu ibara ry'umuhondo, hakaba hari umuhungu umwe wambaye ingofero mu mutwe.

Umudamu wambaye ikanzu irimo amabara menshi; umutuku, umuhondo n'icyatsi; yambaye akantu mu ijosi kari mw'ibara ry'umuhondo, iruhande rwe hari umugabo wambaye amarinete mu mutwe ufite telefone mu ntoki, wambaye ishati.

Iyi ni ifoto igaragaza icyapa k'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda emutiyeni, iki cyapa kikaba gifite ibara ry'umuhondo hahaba handitseho kode gatandatu gatandatu gatandatu gatandatu gatatu, zeru.

Umukobwa umwe n'abagore babiri bicaye ku ntebe y'umukara imbere hari ahantu hari gutangirwa serivise z'ikigo k'itumanaho mu Rwanda eyateli, bakaba bahagaze umwe yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantalo y'umukara, abandi babiri umwe akaba yambaye ikabutura undi akaba yambaye rakositi iri mu ibara ry'umutuku.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka MTN, mu imbere harimo umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara yambaye ishati y'umweru, imbere yaho hari umuhungu, inyuma ye hakaba ari imodoka y'ibara ry'ubururu.

Aha ni ahantu hatangirwa serivise za MTN. Hakaba hari umugabo uhagaze yambaye agapira k'icyatsi. Imbere hejuru hakaba hari sikirini irimo telefone yanditsemo akanyenyeri ijana na miringo ine urwego. Imbere y'uwo mugabo hakaba hari amamashini abiri y'umukara.

Iyi ni ifoto igaragaza ahantu hari gutangirwa serivisi z'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda MTN, hakaba hari abagabo basaga batanu ndetse n'umugore umwe uri gutambuka ufite envelope ebyiri imwe ayiteruye mu kuboko iyindi ayifashe mu ntoki.

Umugabo w'umusatsi mukeya w'ubwanwa bwinshi uri guseka, ukuboko kw'iburyo afitemo telefone ukw'ibumoso akaba afitemo ikarita iri mw'ibara ry'umutuku ndetse n'umukara. Yambaye umupira ujya kuba icyatsi, imbere ye hari ubusahane buri mw'ibara ry'ubururu hariho inyanya nyinshi, iruhande rwe hari umutaka utukura.

Abantu benshi bari ahantu hatangirwa serivise: hakaba hari umuntu uri kwerekana terefone ko yarangije kwishyura, iruhande rwe hakaba hari umugore umwe n'umukobwa umwe, inyuma yabo hakaba hari umugabo ari gutambuka.

Icyapa cya MTN, hakaba handitseho "MTN MoMo accepted here", izina ry'umucuruzi akaba ari Francoise, ID akoresha akaba ari, umunani gatatu, icyenda gatanu, kane kane.

Abantu benshi bicaye, n'umwe uhagaze, bose bambaye udupira turi mu ibara ry'umuhondo. Bicaye muri tente nini, ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, n'inyuma yaho hakaba hari icyapa gishushanyijeho abantu babiri; umuhungu n'umukobwa.

Iyi ni ifoto igaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho MTN, hari igikuta cy'umuhondo kuri icyo gikuta hakaba hari icyapa cyanditseho gura pack bandle utsinde, hakaba hashushanyijeho indege, iruhande hakaba hariho umugabo ndetse n'umusaza.

Ameza y'ikirahure afite ibara ry'umweru ateretseho akapa hasi gasa umukara hejuru kari mu ibara ry'umuhondo handitseho peyi wivu momo akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akamyenyeri gatatu urwego. Furi ofu cajingi.

Abagore babiri umwe akaba afite imisatsi miremire yambaye amaherena akaba afite ingofero mu mutwe we irimo ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo. akaba yanbaye na rakosite isa n'ingofero ye, akaba afite n'akapa ka emutiyeni mubihanza bye. imbere ye hakaba hari umugore munini ufite terefoni mu ntoki.

Aha ni ahantu hari gutangirwa serivise za emutiyene, akaba ari agatente k'umuhondo munsi yaho hakaba hari abantu benshi, hari umuhungu wambaye ishati y'umweru ndetse akaba afite n'ikayi mu ntoki iri mu ibara ry'ubururu yambaye n'ipantaro y'umukara.

Umugabo wunamye mu idirishya ry'akazu gafite ibara ry'umuhondo rya MTN, kakaba kanditseho ''mobile money easy load, phones and accessory internet connections''. Kakaba kari ahantu ku muhanda w'igitaka inyuma hari ibyatsi.

Abantu batatu bari hanze y'akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka MTN, mo imbere harimo abandi bantu babiri uwambaye ishati ndetse n'uwambaye agapira k'icyatsi, aba ari inyuma harimo uw'umukara ndetse n'uwikanzu.

Aha ni ahantu hagaragara nk'aho hari gutangirwa serivisi za MTN, hakaba harimo abantu basaga batandatu, batatu bakaba bambaye imipira y'umweru ya MTN, ndetse n'abandi babiri bari ku hirya, hari abakobwa babiri umwe akaba yambaye umupira ndetse n'undi akaba yambaye agashati.

Iyi ni ifoto igaragaza akazu kari mu ibara ry'umuhondo, aho ari aka emutiyene. Ako kazu kakaba kari ku muhanda, inyuma y'ako kazu hakaba hari inzu yubakishijwe amabati y'ubururu.

Iyi ni ifoto igaragaza icyapa cya emutiyene momopayi, iki cyapa kikaba cyanditseho shopo andi payi wivu momopayi, furi ofu cenji. Kikaba gifite ibara ry'umuhondo munsi yaho hakaba hashushanyijeho ikarita ya viza.

Iyi ni ifoto igaragaza umugabo uri mu kazu k'umuhondo ka emutiyene, aho hantu hakaba hari igiti kinini iruhande rw'ako kazu, uwo mugabo akaba yambaye umupira wuzuyemo uturongo twa shokora n'umweru.

Akazi kari ku muhanda, kubakishijwe ibiti, ndetse n'ibyuma biri mu ibara ry'umukara. Mo imbere hakaba harimo abantu batatu bari gutanga izo serivise, hakaba hariho igicupa kinini cy'amazi. Hejuru hakaba hariho icyapa kinini cy'irembo, n'ikindi cya equity agent.

Akazu kari ahantu k'umuhanda kari mwibara ry'umutuku ndetse n'umukara, hakaba handitseho eyaterimani hashushanyijeho n'umukobwa uri gutanga serivise zitumanaho.

Iyi ni ifoto igaragaza umukobwa mutoya wambaye agashati k'umweru, akaba ari guseka, akaba ari mu kazu gafite ibara ry'umuhondo ka emutiyene, kakaba kanditseho sendi andi risive.

Aha ni ahantu hari gutangirwa serivise z'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda emutiyeni. Ikaba ari sitandi isa umuhondo ndetse n'umukara, imbere hakaba hari umuntu ushinzwe umutekano, hirya kaba hari abantu bari gutanga serivise.

Umumotari uri kuri moto wambaye kasike iri mu ibara ry'umutuku, inyuma ye hakaba hari ikibogisi gishushanyijeho inyuguti ya ra nini, hakaba handitseho ngo rashifodi, iruhande rwe hakaba hari umukobwa ukora serivisi za emutiyene yambaye ijiri y'umuhondo.

Igikuta giteye irange ry'umweru hakaba hometseho akapa kari mu ibara ry'umuhondo ka emutiyeni, handitseho peyi wivu momo, kidi, shotsi akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe zeru karindwi icyenda gatanu gatanu karindwi umunani urwego.

Iyi ni ifoto igaragaza ahantu hari gutangirwa serivise z'ikigo ry'igihugu mu Rwanda gishinzwe itumanaho emutiyeni. Aho hari umugabo ufite uruhara, wambaye marinete, wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo ndetse iruhande rwe hakaba hari undi umugabo ufite terefoni uri guseka.

Akapa kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho pay with MoMo, akanyenyeri, rimwe gatandatu gatanu, akanyenyeri gatatu, urwego, iruhande hakaba hari ipaki irimo terefone yanditseho Kabode.

Umudamu wicaye wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, imbere hari ameza hariho utumashini tubiri ducometse iruhande rwe hakaba hari terefone imbere hakaba hari akapa k'umuhondo ka emutiyeni.

Akazu k'umuhondo k'icyigo k'igihugu gishinzwe itumanaho MTN , kakaba kanditseho sendi mani akorosi oru netuwaka mwimbere hakaba harimo umukobwa inyuma hakaba hahagaze abagabo babiri umwe afite igikapu cy'umukara k'urutugu.

Abakobwa batatu, babiri bambaye udupira turi mu ibara ry'umuhondo, umwe uri mu ruhande rw'iburyo akaba yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu, inyuma hakaba hari amatente yanditseho pirimusi, hakaba ari n'abantu inyuma yabo.

Abakobwa babiri bose bariguseka umwe arasutse undi ntabwo asutse, bose bakorera ikigo k'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda emutiyeni. Bakaba bambaye imipira y'amaboko magufi, iciye iri mu ibara ry'umuhondo.

Imodoka ebyiri ziparitse ahantu kuri sitasiyo imwe iri mu ibara ry'ubururu ndetse indi y'umweru, iruhande rwayo hari abagabo batatu bakorera emutiyene bambaye utujire dusa n'umutaka barimo mu ibara ry'umuhondo.

Urugi ruri mu ibara ry'ikigina rufunguye, iruhande rwaho hakaba ari ipoto ya sima ishinze kandi inyuma yaho hakaba ari akazu k'amadirishya abiri afunguye, kari mu ibara ry'umuhondo ka MTN.

Akazu karekare gafite umuryango ufunguye n'idirishya rirangaye, kari mu ibara ry'umutuku handitseho airtel money extra, imbere yaho hari abantu batatu umugore umwe n'abagabo babiri bari gusuhuzanya.

Akazu k'amadirishya atatu, yose afunguye, kari mu ibara ry'umuhondo, hejuru hasa ubururu. Imbere harimo umugabo wambaye lakosite iri mu ibara rya shokora ndetse n'umweru. Kakaba kubatse ahantu ku muhanda, inyuma yaho hari ibiti n'ibyatsi.

Iyi ni ifoto igaragaza ikigo cy'ikigihugu cy'itumanaho hano mu Rwanda cya MTN, aho abantu babiri barigukoresha bishyura banakira, hari akazu k'umuhondo kanditseho today na tuma, send and receive.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo gafite amadirishya abiri afunguye mo imbere harimo igipapuro gisa nk'akazu ndetse n'ikindi kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, inyuma hari abagore babiri bafite ikaramu y'ubururu bari kwandika.

Umukobwa wambaye rakosite iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru akorera emutiyene akaba afite imashini imbere ye y'umukara ari kwakira umugabo imbere ye w'ishati y'amaboko maremare.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo k'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda mtn . Mu imbere hakaba harimo umugore inyuma hari umukobwa bakaba bari kwandika mu ikayi bakoresheje ikaramu y'ubururu.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'amaboko magufi yera n'ipantalo y'ubururu ahagaze ku kazu k'umuhondo ka emutiyeni, ku muhanda w'igitaka iruhande hari uwa kaburimbo n'abantu benshi bahagazeho.

Aka ni akapa ka MTN momo kifashishwa mu kwishyura kakaba kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu n'umweru hakaba handitseho MOMO Pay Kode aKaba ari Zero Enye n'Umunani amazina akaba ari Celestin Design.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku ka kampani ikorera itumanaho mu Rwanda eyateri kakaba gafite amadirishya abiri yaombi afunze. Iruhande rwaho hakaba hari umugore wicaye kari mu ibara ry'umuhondo.

Iyi ni ifoto igaragaza abantu babiri umuhungu n'umukobwa, umuhungu akaba yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo handitseho emutiyene, umukobwa yambaye akajire k'umuhondo ka emutiyene, inyuma yaho hakaba hari akazu gafite ibara ry'umuhondo rya emutiyene.

Umugabo washyize kasi ku kaguru ke k'iburyo, yicaye kuri moto y'amashanyarazi, inyuma ye ahetse agasanduku gasize ibara ry'icyatsi, ndetse n'umukara kanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse ishushanyijeho umuntu usa n'uri kwirukanka ari mu ibara ry'icyatsi.

Abakobwa babiri ndetse n'umuhungu bicaye ku kameza gasize ibara ry'icunga kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse na nimero za terefone ku ruhande rwabo hakikijwe n'udukarito twinshi dusize amabara atandukanye tw'ibicuruzwa.

Umuhanda w'igitaka ndetse ukaba uriho n'utubuye, uriho umumotari uhagaze inyuma y'ikinyabiziga ke giparitse, ari gupfundura agasanduku ke, gasize ibara ry'umutuku ndetse n'umugabo uri impande wambaye agapfukamunwa, usa nk'umufashije

Icyapa kerekana amerekezo giherereye mu mujyi rwagati komeza uzamuka uraba ugana ku kibuga mpuzamahanga k'i Kanombe mu birometero bitanu, nukata ibumoso uragana ku nyubako ya Kigali komveshoni senta mu kilometero kimwe na metero maganabiri.

Ishusho iri mu ibara ry'umuhondo, yanditsweho amagambo y'ikinyarwanda twiga ndetse n'andi ari mu rurimi rw'icyongereza yandikishijwe mu ibara ry'ubururu, impande hari umuntu wambaye ingofero, uteruye agakarito gasize ibara ry'umweru ndetse n'icunga.

Ishusho iri mu ibara ry'umutuku yanditswe mu magambo y'ururimi rw'icyongereza, ikaba ishushanyijeho imyenda yamanitswe ku duti tubiri dusize ibara ry'umukara, mudasobwa ndetse n'icyuma kijyana ibikoresho byaguzwe mu iduka.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse afite igare ryirabura, yambaye ishati n'igikapu n'ingofero biri mu ibara ry'icyatsi, imbere ye hari igipangu, iruhande rwe hari ibyatsi.

Inzu igeretsekabiri iri mu ibara ry'umweru hakaba hacururizwamo imyenda imbere yaho hakaba hari imodoka iri mu ibara ry'ubururu mo imbere hakaba hari umuntu wambaye ikanzu y'umweru.

Aba motari bane, baparitse mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yaho hakaba hari ibiti byinshi, bose bakaba bambaye amakasike, y'ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi, bakaba bambaye imipira y'umutuku bose bari kureba inyuma.

Ibiti biri ahantu ku muhanda iruhande rwaho haparitse imodoka ndetse na moto. Imbere yaho hakaba hari inyubako ndende igeretse kabiri hejuru yaho hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu handitseho ihaha doti rwa.

Iyi ni ifoto igaragaza abamotari bane bakaba bakora umurimo wo kugemura ibiryo mu mago izo moto zikaba zifite ibintu inyuma bifite ibara rya oranje jumafudu.

Umugabo wicaye kuri moto uri guseka, wifashe mu maboko, wambaye isaha y'umukara, ipantaro y'umukara ndetse ufite n'igikapu kiri gusa umuhondo cyanditseho poze derivari.

Abakobwa babiri, umwe w'imisatsi myinshi, yambaye igishati kinini cy'umweru, undi yambaye agashati k'icyatsi. Bakaba bari guhana amverope yuzuyemo imbuto, hakaba harimo icupa ry'amavuta.

Moto eshatu ziri mu ibara ritukura, zikaba zifite pulake z'umuhondo. Abamotari bakaba bambaye kasike z'umweru n'inyuma yabo hakaba hari ibintu by'ibikarito biri mu ibara ryera. Hose hakaba handitseho Miglo, hakaba hashushanyijeho ikinyoni.

Iyi ni imodoka iparitse ahantu muri parikingi hari amabuye ndetse hubakishijwe n'amatafari ikaba iri mu ibara ry'umutuku ndetse ikaba iri mu bwoko bwa Toyota inyuma ku kirahure hakaba hometseho urupapuro ruri mu ibara ry'ububruru n'umweru.

Umugabo ufite igikarito mu kuboko kwe kw'iburyo cyanditseho jumia, inyuma ye hari akabati kariho ibipapuro by'umweru ndetse n'imbere ye hari akandi.

Iyi ni ifoto igaragaza nkaho ari fesibuku amagambo ayigize hakaba handitseho Kigali onurayini maketi, paburike gurupu ikaba ifite abamembazi ibihumbi bine na magana kenda.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'akajire ni pantalo y'ubururu, akaba aparitse moto ku ruhande ifite ikibogisi inyuma cy'umutuku, inyuma ye hakaba ari umuhanda wa kaburimbo, ndetse akaba ahagaze mu muhanda w'igitaka.

Afishe ya online shoping iriho icupa rya gaze rigufiya riri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'igicupa cy'amazi cya Jibu kinini, hagati hari moto ya Tvs iriho ikibokisi inyuma cya oranje.

Abagabo babiri bafite kasike mu ntoki zabo z'iri mw'ibara ry'icyatsi bombi umwe akaba yambaye amarinete y'umukara akaba yirabura undi akaba asa nk'umuzungu yambaye amarineti y'umutuku.

Iyi ni ifoto igaragaza itike hakaba handitseho Kigali apu Rwanda myuzike fesitivo, iyo tike ikaba ifite ibara ry'umuhondo hakaba hasi hariho abantu basaga batandatu.

Umugabo wambaye kasike y'umutuku iruhande rwe haparitseho na moto yanditseho derivari for yuwa bisinesi akaba afite amverope aryamye kugipangu kiri imbere ye ndetse hari n'amapave.

Umugabo wambaye ishati n'iyicyatsi akaba ari gukura amvelope ebyiri mu gikarito cya moto imuri imbere. Akaba yambaye ipantaro iri mu ibara ry'ubururu, ihagaze mu muhanda wubakishije amabuye.

Ni ahantu hagaragara nk'aho hacururizwa imbuto imiryango yaho hakaba ari mui ibara ry'icyatsi, hejuru hakaba ari icyapa cyanditseho fruits and vegetables ndetse no munsi mo imbere hakaba harimo abantu bari kugura imbuto.

Icyapa kigaragaza ahantu hacururizwa imyenda y'abagore, handitseho wumanizi ofisi deresi aveyirebo, hakaba hariho amakanzu atatu imwe ikaba iriho icyatsi n'umukara, iy'indi ikaba iri mu ibara ry'ubururu, iy'indi ikaba iriho amabara y'uruvangitirane.

Aka ni akantu kifashishwa mu masupamaketi aho abantu baba bari guhahiramo kakaba karimo imbuto ndetse n'imboga, harimo inyanya, imineke, amashu, kokombure ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'igikapu, biri mu ibara ry'icyatsi. Akaba yambaye ipantaro isa ubururu, yambaye n'amarinete y'umukara. Inyuma ye hari ibyatsi, hejuru hakaba handitseho vuba vuba.

Iyi ni ifoto igaragaza umukobwa ufite telefone mu biganza bye, w'imisatsi myinshi, w'inzobe, wambaye amarinete, ari guseka, aho ari kureba muri telefone, akaba yafashe ikiganza cye akagikoza ku munwa.

Abantu babiri umukobwa wambaye amarinete ku maso n'agapira k'umweru, akaba ari kwakira agakapu k'umukara kanditseho safari, n'umumotari wambaye ikote ry'ubururu na kasike y'umukara, akaba afite moto iruhande rwe.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, akaba afite agapfukamunwa mu isura ye, mu biganza bye akaba afite amvelope. Ayitereka kuri moto iri mu ibara ry'umutuku ku kibogisi handitse yego.

Inzu ikodeshwa ikaba yishyurwa mu madolari, ikaba iherereye Kicukiro, Kagarama mu mujyi wa Kigali, ikaba igizwe na salo y'inkuta zisize ibara ry'umweru, intebe ndetse n'ameza ku ruhande hariho televiziyo.

Ikaba ikiri kugaragaza icyuyuma cy'inzu bongeramo ndetse kikaba kigizwe n'icyuma kivamo amazi yo koga, ndetse hakaba handitsweho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ay'icyongereza aho kugaragaza agace ndetse n'amafaranga inzu ikodeshwa.

Inzu igizwe n'intebe zisize irangi ry'ubururu, zikozwe mu gifufuma ndetse rikaba ryashyizweho imisego. Iruhande rwazo hakaba hari akameza gasize irangi ry'umukara kateretsweho kuri tapi. Ku ruhande hariho idirishya rikikijwe n'amarido y'umweru ndetse n'ikigega.

Icyumba cy'inzu ikodeshwa ikaba yishyurwa buri kwezi, mu madorari igihumbi na magana atanu, mu mujyi wa Kigali Kacyiru kikaba kigizwe n'inkuta z'umweru, igitanda ndetse n'amakaro y'impande enye asize ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye amadarubindi, ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, ahagaze ku marembo yinzu yashyizweho amabara y'ikigina, umukara, ndetse n'umutuku, inyuma ye hagaragaraho inzu yanditsweho umubare miliyoni mirongo icyenda z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu y'igorofa rimwe igizwe n'ibirahure, imiryango y'ibyuma ndetse n'inkuta zisize ibara ry'umuhondo n'amabati n'amategura, imbere hakaba hari akabaraza kagizwe n'amatafari y'ikigina umutuku ndetse n'umukara.

Ishusho iriho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'agace ko mu Rwanda ariko Kicukiro Kigali Rwanda munsi hari kugaragaraho urukuta rw'amatafari atukura ruri impande y'urupangu rusize ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo mo imbere harimo inzu ifite amabati y'amategura.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'igisenge gikozwe mu mbaho gisize ibara ry'umutuku ndetse n'urukuta rwashyizweho amakaro n'utubati dusize ibara ry'umweru hasi yaho hariho ahantu ho gukarabira hasize ibara ry'umukara ndetse n'idirishya rikinzwe rikozwe mu ibyuma.

Icyumba cy'inzu kiri gukorerwamo ubucuruzi kikaba kigizwe n'utuduka dutoya, twashyizweho ibyapa hejuru yabyo kimwe gisize ibara ry'umweru ndetse n'ubururu cyanditsweho nimero za telefone ndetse n'izina ry'iyo duka.

Inzu y'amagorofa ane igizwe n'ibirahure ndetse n'inkuta zisize irange ry'ikigina, ririho icyapa gisize ibara ry'ubururu handitseho ba na ha, munsi mu igorofa rya mbere hariho amaduka menshi akora ibikorwa by'ubucuruzi.

Umuntu wambaye agakapu ndetse n'ingofero y'umutuku, akaba ahagaze impande y'imyenda yamanitswe, y'imipira y'amaboko maremare ndetse n'amapantaro y'amakoboyi, ari impande y'urukuta rwashyizweho ibara ry'icyatsisa ndetse n'itara.

Inzu y'amatafari ahiye ifite ibirahureri byashyizweho ibyuma by'umutuku, abagabo babiri bicaye impande yazo ndetse n'abagore bicaye mu byatsi bitwikiriye ku mutwe, imbere yabo hari umugore ufite impapuro mu ntoki z'umweru.

Icyumba kiri kuberamo inama kikaba kicawemo n'abantu bane bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, inyuma yaho hariho ibyapa bisize ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo, bikaba bishushanyijeho izina rya banki y'u Rwanda.

Umugabo wicaye imbere yari akameza gateretse mudasobwa, amakaye afite ibifuniko by'icyatsi ndetse n'ubururu, amabahasha ndetse n'amakaramu ya bike imbere ye hari idirishya ryafunguwe inyuma, rihagazeho n'umuntu.

Umugabo uri kugenda afashe akagare mu ntoki ze k'icyuma kateretswemo amashashi arimo ibicuruzwa bitandukanye, impande ye hari akabati kariho utudobo ndetse n'ibindi biryo bicuruzwa, inyuma ye hariyo n'abandi bantu bari kubyitegereza.

Icyuyubma cy'inzu kirimo urukuta rwegeranye n'akabati kateretswemo ibinyobwa bitandukanye ndetse n'amashashi y'amabara atandukanye, impande hakaba hariho umuntu ufite igikarito gisize ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, impande y'icyuma gikonjesha ibinyobwa.

Icyumba k'inzu y'ubucuruzi gifite igisenge cyateretsweho amatara menshi ari gutanga urumuri, ndetse n'akabati gakozwe mu cyuma kanditseho ibiciro by'ibinyobwa byateretsweho yaba ibisindisha cyangwa ibidasindisha.

Icyumba cy'inzu gikorerwamo ubucuruzi kigizwe n'igisenge gisize ibara ry'umweru cyashyizweho amatara ari kwaka, ndetse n'akabati gakozwe mu byuma kateretsweho amakarito, imigati, ibikombe ndetse n'amashashi birimo ibyokurya.

umugabo wambaye agapira k'amaboko maremare ndetse n'ipantaro by'ubururu, afite icupa ririmo inzoga mu kuboko kw'iburyo bwe, impande y'akabati karimo ibicuruzwa bitandukanye byashyizwe mu mashashi, ndetse no mu dukombe, akaba yegereye umukobwa wegereye agaseke kateretswe hasi gasize ibara ry'umutuku.

Icyumba k'inzu gikoreramo ubucuruzi kikaba kigizwe n'akabati kanini kashyizwemo ibiribwa byo kurya, ibyo kunywa bisindisha n'ibidasindisha, kakaba gahagazweho impande n'umugore wambaye igitenge, ufite akuma ku ruhande gatwara ibyo yaguze.

Imodoka y'umukara iri imbere y'matafari kigina, ari imbere y'inzu yamagorofa abiri, ifite amaduka atatu akinguye, ava ku igorofa rya mbere akaba acuruza ibintu bigiye bitandukanye imbere yaho hari urukaburabiro.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi kirimo akabati gasize ibara ry'umweru kateretsweho ibinyobwa bisindisha, udushashi turimo ibyo kurya ndetse n'udukoko tunini turimo amavuta, impande hariho ishusho iriho imbuto z'icyatsi.